Ahantu abantu banywera haba hameze neza cyane, ku buryo bahateguye, ugasanga abahagana barahishimiye. Ni ahantu hashobora gufatirwa ibinyobwa bitandukanye, ndetse n'ibiribwa, ahantu hazwi nk'utubari cyangwa se amabara, mu karere ka Musanze, haba hafite n'ubusitani busobanutse cyane rwose.

Ibikorwa by'imyidagaduro ni ibikorwa byiza cane, usanga bihuza abantu kugira ngo bishimishe bashime ndetse n'abo bari kumwe n'bikorwa bikorwa mu buryo bwo kubyina cg se kuririmba biba bikorwa ahanini mu gice cyayo mu gihe ca nijoro.

Ahantu hacururizwa ibyo kurya, haba hari abantu babizobereye mu kubiteka, ku buryo bashobora kugutekera nk'ifi, bagashiraho n'ibirayi bya mucoma ku masahane, ugasanga ni ibintu bikundwa n'abantu bagenda, ndetse n'ababa basohotse, bakeneye kwishimisha.

Inyama turyaga iwacu bazotsaga ku mishito hejuru y'udusenyege bigakorwa n'abantu bazwi ku izina rya mucoma. Kenshi na kenshi usanga iyo bazirya bazinywesha nk'inzoga cyangwa bakazirya ari zonyine mu buryo buzwi nka borushete.

Hoteli nyinshi zo mu ntara y'amajaruguru, ziba zimeze neza cane kuburyo ziba zirimo inzoga nyinshi zitandukanye ,zikabamo ndetse n'ibyayi byo gushusha abantu kubera ko hahoraga hakonje. Ni ahantu heza ho kuba wasohokera ndetse n'inshuti yawe yaje kukubaramira ukaba wayijanayo.

Uruzitiro rw'ibyuma ruzitiye hoteri. Abantu bayijyamo ugasanga bari kuyiriramo, abandi bakaba banayiryamamo nka nijoro. Ni hoteri nziza iri ku muhanda, ifite amazu agerekeranye kandi meza ateye amarangi.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu adufasha cyane cyane kubona ibyo dukenera umunsi ku munsi, ku buryo iyo yegere nko ku umuhanda, usanga hatangirwamo n'izindi serivise nk'irembo, cyangwase tukaba twashaka n'ibipapuro bya burundu bitabaye ngombwa ko tujya mubuyobozi bwa Leta.

Amata ni kimwe mu binyobwa bikundwa n'abantu kubera kugira uruhare mu gutunga umubiri, mu kuwuha intungamubiri zose zikenewe cangwa se no guhaza abantu, mu gihe baba bafite inzara. Ariko amara n'inyota ku buryo iyo wayanyoye usanga nta caka ufite.

Amazu menshi yo ku muhanda akunze gukorerwamo ubucuruzi buciriritse, ku buryo usanga ibyo abantu bakeneye muri ako gace babasha kubibona bitagombye ko baiya mu masoko ya kure. Ibi rero bidufasha kugira ngo tubashe kwihutisha iterambere ry'aho dutuye, kandi bikadufasha no kubona ibyo dukenera hafi yacu.

Ubucuruzi bw'ibyo kurya ni bumwe mu bucuruzi buri kugenda butera imbere muri iki gihe, kuko usanga abantu babukora bazwi nko ku izina rya mucoma, baba bafite ibikoni bihagije n'ibikoresho byabyo nk'amasafuriya, na za rondereza zikozwe neza cyane, ugasanga ni ahantu abantu bakunda kujya kurira muri iki gihe.

Amazu menshi yo ku muhanda usanga aba yubatswe mu buryo bwo kugira ngo acururizwemo; noneho abantu bakaja guhaha cane cane ibyo kurya kugira ngo nanone bubake ubuzima bw'ingo zabo, ni amazu yinjiza cane usanga kuko akenshi wa mugani aba ari no kuri kaburimbo.

Kuri ubu inzu za kijyambere zubakishwa amakaro, ariko babanje kubakisha amatafari ahiye, bagashiramo inzugi z'ibyuma, bagateraho n'ubusitani, ndetse zikaba ari inzu zegereye ku muhanda. Abazijyamo bose babanza kunyura ku mapave baba barashyize aho ku ruhande.

Butike ni kimwe mu bikorwa remezo byiza cane kuko bituma abantu babona aho guhahira ha bugufi. Ni ibintu abantu bakagombye gushishikarizwa gukora kugira ngo tube twabona ibyo kurya hafi y'aho dutuye nko mu nsisiro cangwa se no mu dusoko tutwegereye. Ibi bikaba byatuma habaho kutavunika kubw'igendo nyinshi zo kuja mu masoko ya kure.

Imirimo y'ubukorikori, ni imirimo ikwiye gushyirwamo imbaraga kugira ngo tubashe kubona intebe zo kwicaramo, ibitanda byo kuryamaho, kugira ngo abantu bakomeze kugubwa neza mu ngo zabo zirimo ibikoresho byose bifuza.

Abantu bari gucuruza imyaka ku muryango bategereje abaguzi ariko ntabwo bari baza. Baracabipima bakanabishyira hanze kugira ngo abakiriya nibaza usanga bitoretse.

Hoteli ya fatima ni hoteli nziza cane iri mu karere ka Musanze mu ntara y'amajaruguru; abantu bayijagamo bamwe bagacumbikamo ,abandi bakariramo ndetse n'abandi bagakoreramo n'amahugurwa, abandi iyo bafite nk'imodoka bayijanagamo bakayiparikamo ni hagari nta kibazo ni ahantu hameze neza cane.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu aba yubatswe neza cyane, aba ari ku muhanda ku buryo abantu bayageraho bitabagoye. Ashobora gucururizwamo ibintu byinshi, cyangwa se no gutangirwamo serivise kuko hari abakoramo nk'amakenkayori, amazu y'ubucuruzi asanzwe, ayo gucururizamo imisururu n'ibindi.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu aba ameze neza cyane, cyane iyo yubatswe nko ku muhanda usanga acururizwamo ibintu bitandukanye ndetse andi agatangirwamo serivisi e zishobora kuba nko gufotora impapuro, gufotora amafoto, ndetse no gucuruza nk'imisururu n'ibindi bintu byose abantu bakenera umunsi ku munsi.

Ibicuruzwa byinshi bicururizwa muri Goyiko biba ibicuruzwa bimeze neza cyane, kuko biba byujuje ubuziranenge. Abantu bajya kuguriramo, kandi akenshi usanga binahendutse ugereranyije n'aho bicururizwa, nta kugira rero ubwoba bwo kuvuga ngo birahenze, ahubwo abantu bose bakagombye kujya kugurirayo.

Inzu y'ubucuruzi ni bimwe mu bikorwaremezo dukeneye muri iki gihe， kugira ngo tubashe kubona ibyo dukeneye hafi yacu，bitabaye ngombwa ko tujya masoko rusange. Ni amazu ashobora gukorerwamo imyuga y'ubukorikori cyangwa se no gucururizwamo n'ibindi bicuruzwa dukenera umunsi ku munsi.

Amazu y'ubucuruzi si ngombwa ngo abe ari amazu manini cyane, kuko hashobora gukorwa n'andi mazu azwi nko ku mazina ya za kiyosike , aya mazu aba arimo ibyo kurya bibonekaho mu rusisiro abantu batuyemo, ku buryo abantu bajya kugurayo bitabaye ngombwa ko baja mu masoko manini asanzwe.

Ubucuruzi bujyanye n'ibikomoka ku nganda, ni kimwe mu bikorwa biri kuzamura iterambere ry'Igihugu vuba, kuko ibyo dukenera byinshi usanga bari kubikoramo ibindi bishobora kubikika nk' igihe kirekire, bikaba byakorerwa mu nganda kugira ngo babashe kubizigama tuzabigerye mu gihe kizaza.

Ubucuruzi ni amazu adufasha cyane kubona ibyo dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hashobora gucururizwa n'amakarita yo guhamagara cyangwa se no kohererezanya amafaranga mu buryo bwa mobayiromani, ndetse tukaba twabona n'ibikoresho byo kwifashisha dutwaramo ibindi bintu tuba twaguze nk'ibipaniye n'udufuka twa nzaruhahira.

Ubucuruzi muri iki gihe ni kimwe mu bikorwa abantu bari gushyiramo imbaraga, kubera ko buzana amafaranga byihuse. Iyo uranguye ikintu ku mafaranga runaka ukacyungukaho andi, usanga ari ibintu byiza kandi bitakugoye ngo wagiye mu murima wiriwe uranyagirwa, ukaba ari ubucuruzi ukorera ahantu hamwe kandi bukakungura vuba.

Ubucuruzi bw'ibikorerwa iwacu bizwi nka (made in Rwanda) ni bumwe mu bukorikori bumaze gutera imbere cyane, nk'ibikapu bikozwe mu myenda bitabaye ngombwa ko bazana ibiri ibya magaze. Ubwo rero ni ibintu abantu bashishikarizwa gukoresha no gukora kugira ngo twihutishe iterambere ry'igihugu cyacu.

Impeta n'utundi tuntu bambara ni bimwe mu bikoresho bikorwa n'abantu b'abahanga kuko bituma abantu baberwa ku maboko, ndetse n'impeta zikagira uruhare mu kwambikwa abantu baba bamaze gusezerana.

Amabutike menshi acuruza ibyo kurya birimo: imiceri ,amavuta n'ibindi bikenerwa umunsi ku munsi n'imiryango ituriye aho. Birakwiye rero ko dushyiramo imbaraga, kugira ngo tugire amabutiki akomeye asobanutse, kandi arimo ibyo twifuza mu gace dutuyemo.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu ziba zubakitse neza cane, ziba zifite amadirisha manini, ku buryo abantu bareberamo bakabona ibicuruzwa biba birimo imbere. Haba harimo imigati, amasositomate ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi byo kuribwa n'abaturage baturiye nk'aho ngaho.

Ibikorwa remezo byo muri iki gihe bishingiye ku kuba abantu barimo kubaka amazu ajyanye n'ubucuruzi, ku buryo hatangirwa serivisi zo kubonaho ibicuruzwa mu buryo bwihuse bitagombeye kujya mu masoko magari, ni ibintu dusabwa gushyiramo imbaraga kugira ngo tubashe gutanga serivisi aho dutuye.

Ipanu iri kuri kwiziniyeri iriho amavuta n'agasafuriya k'umweru ku ruhande, bagiye gutekaho imigati baraha abantu baje kubabaramira. Uyu mugabo wambaye impeta niwe ugiye kuziteka impande y'urugi rw'imbaho rudakoze neza, ni mu gikoni kinini ciza cijyanye n'igihe.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu akwiye gushyirwamo imbaraga kugira ngo tubashe kubona ibyo dukenera hafi yacu, bitabaye ngombwa ko tujya mu masoko rusange. Abantu barasabwa rero gukora ibi bikorwa remezo mu buryo bwiza, kugira ngo bibashe kugoboka abantu baba batuye muri izo nsisiro no muri utwo duce.

Amazu menshi y'ubucuruzi， aba yiganjemo ahantu harimo gucururizwa ibintu byinshi by'ikoranabuhanga，cyangwa se n'ibiribwa， n'imyenda，abantu bakenera， ibyo kubikamo，n’ubwo hari igihe kigera hakaba hakinze，abakiriya bataraza， ariko iyo bakinguye usanga ibyo bintu byose biba bihari.

Amakenkayeri ni amwe mu mazu acururizwamo ibikoresho cane cane nk'ibijanye n'ubwubatsi ,ndetse n'ibindi bikoresho biba bikenewe mu mazu nk'amatara n'ibindi bikoresho dukenera mu rugo umunsi ku munsi nk'imihoro ,amashoka, amasuka yo guhingisha ndetse n'ibindi bikoresho dukenera kenshi.

Ni inzu nziza cane ifite imiryango ibiri n'idirisha, ni ahantu bafotorera ariko ntabwo barafungura. Hariho na kaburimbo n'indi nzu igaragara ko yubatse mu buryo bwiza bugezweho ndetse n'amarangi y'umuhondo n'umuhondo uja kuba nk'umutuku.

Ahantu hatangirwa serivisi ni hamwe mu hantu hakenewe. Abanyarwanda begerezwa ibikorwaremezo bitabaye ngombwa ko bajya mu masoko ya kure. Birakwiye ko tubishyiramo imbaraga kugira ngo tubashe gutanga serivisi zinoze, bitagombeye ko abantu bajya mu nzego z'ibanze cyangwa n'inzego zo hejuru.

Amabutike ni ahantu heza cyane haba harimo ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibindi dukenera umunsi ku munsi. Nta bintu rero usanga bishimishije buri wese yasabwa gukora mu gihe afitiye ubushobozi, kuko bigira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu no mu guteza imbere imiryango.

Amazu y'iwacu mu Karere ka Musanze ni amazu meza cane, aba yubakishijwe amakaro. Abantu bize ibintu by'ubudozi batereka amashini hanze bakayadoderaho, natwe ugasanga bari kutudodora imyenda. Ndetse bamwe bafite n'abana baba bicaye iruhande, baba baremberera nk'aho, ku buryo usanga ari ibintu bimeze neza cane, bacuruza yenda n'ibirondoni.

Amabare n'amaresitora ni ahantu hakundwa cane, kubera ko abantu bajaga kuhafatira amafunguro, ugasanga igihe batatetse nko mu rugo cangwa se bari gukora urugendo, biri kubafasha cane.

Inzu zo ku muhanda ziba ari inzu zubakitswe neza cane, zikorerwagamo imirimo itandukanye nko gucururizwamo ibikoresho byo mu mago, nk'ibitanda cyangwa se n'amapapetori yo gufotoreramo impapuro. Kandi usanga rero inzu zinjiza cane, kurusha izo mu giturage.

Urusyo ni kimwe mu bikoresho byiza cane kandi biba bikenewe n'abantu benshi, kuko bituma abantu bajyanayo impeke kuzisya nk'ibigori, amasaka, soya kugira ngo babone ifu yo gutunga imiryango. Mu gihe baba bamaze kurya bakarenzaho igikoma, usanga ari ibintu byiza cyane ku muryango.

Amaresitora ni hamwe mu hantu heza cyane kuko hatuma tubona ibiribwa hafi yacu kuko bituma tuhinyagurira tukaba twagurayo ibyo kurya bitagombye kujya mu masoko ya kure. Ni ahantu heza cyane rero ,hakwiye kugirirwa isuku kubera ko haba hari ibiribwa abantu bakenera byubaka umubiri.

Amazu menshi y'ubucuruzi usanga ari amazu aba yubatswe ku muhanda, gafite amarangi meza cangwa se nk'amakaro, noneho banyirayo kenshi bafite n'amagare yo kugendaho cangwa se nk'amamoto. Nta hantu nk'ahacururizwa nk'ibikoresho bya elegitoronike cangwa se n'ibiribwa.

Ahantu hacururizwa imiti ikoreshwa mu buhinzi haba hameze neza cyane, hagira ibirango biharanga ku buryo uba uzi neza ko iyo miti ihaba, kugira ngo ube wajya kuyigura uyitere muri iyo myaka, yashobora gufatwa wenda n'udukoko cyangwa se n'imvura nyinshi, mu buryo bwo kuzahura ibyo bimera kugira ngo bidakomeza gupfa.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu akwiye gushyiwamo imbaraga ,kuko atuma tubona ibyo kurya n'ibyo kunywa hafi yacu ,hari igihe bacururizamo nk'umusururu, usanga bakahakanikira n'inkweto ku buryo usanga ari ibintu bidufasha twe tuba dutuye muri izo nsisiro, no muri iyo midugudu.

Mu bikorwa byinshi dukeneye ,dukeneyemo n'ibikorwa bijyanye n'ubwogoshi bw'imisatsi, ndetse no gukora imisatsi ku bantu b'igitsina gore ,ibi bidufasha kugira ubuzima bwiza buboneye butarimo isuku nkeya ,na bwo bukaba bwiganjemo kuba nk'abasirimu, ugasanga ni ibintu byiza cyane.

Abantu bacuruzaga nabo hari igihe baburaga abakiriya bakaza hanze kota nk' akazuba baba bategereje abakiriya ko baza kugura ibicuruzwa baba bafite ngo baje kubiteka cangwa ibindi baje kubikoresha, ubwo rero amazu menshi ari ku muhanda aba yiganjemo ay'ubucuruzi.

Amazu menshi y'ubucuruzi yubatswe mu buryo bw'ama etaje aba ari mu mujyi wacu, usanga ari amazu meza cane acururizwamo imyenda, ibyo kurya, amaketo, ibikoresho byose by'ikoranabuhanga nk'amatelefone n'ibindi. Usanga ari amazu meza cane agerekeranye, abantu noneho bakaza kugura bamwe bakagurira hasi abandi bakazamuka hejuru.

Ahantu heza muri aka karere ka Musanze, bahashira ibyapa biba bigaragaza ibyo wahasanga, kugira ngo wake serivisi z'ibyo ukeneye. Abantu bajaga nko kuhaka serivise ugasanga bahamenyeye byinshi bijanye n'ubukerarugendo, cangwa se n'aho kuba barira ugasanga ni ibintu byiza cane. Natwe twabararikira kuza iwacu.

Amazu menshi y'ubucuruzi yo ku muhanda, usanga ari gucururizwamo ibicuruzwa byinshi, cyangwa se akaba yanatanga serivisi zijyanye no kohererezanya amafaranga, no kugura amayinite. Ni amazu rero agira akamaro ku buryo usanga nta kintu kidakorerwamo kijyanye n'ubucuruzi bujyanye n'iki gihe.

Amabutike ni kimwe mu bikorwa remezo abantu bakunda cane， kubera ko bigira uruhare mu gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye， nk'ibiribwa，imisururu，cangwa se no gutangamo serivisi，bikaba byakorosha ingendo ugereranyije no kujya kubishaka kure， ni ibikorwa byiza cane rero abantu bashishikarizwa gukora.

Amazi ni kimwe mu bininyobwa byiza cane kuko agira umumaro mu mubiri wacu mu kuba yagira ubuzima bwiza, ubuzima dufite muri iki gihe. Ni mazi ashobora kunyobwa ako kanya cyangwa se akanyobwa atetse, ariko akenshi iyo ari mu mabutike aba ari amazi meza cyane ahita anyobwa ako kanya.

Ahantu henshi muri aka gace k'amajaruguru, bacuruza ibintu bijanye n'ibyayi, ndetse kugira ngo abantu babashe gushuha. Aha hazitijwe senyege kugira ngo abantu batabasha kwinjiramo uko biboneye, ahubwo hajagamo abafite gahunda yo kubaba bariramo kuri ubwo buryo.

Amabanki ni kimwe mu bikorwa remezo bikenerwa n'abantu benshi ku buryo abantu bajyanamo amafaranga bakizigamira, cyangwa se bakayabitsamo ku buryo aba afite umutekano, ugereranyije no kuyabika mu rugo cyangwa ku matelefone.

Amahoteri menshi aba ameze neza cyane, agira ubusitani bwiza buba buteyemo nk'ibisheke ndetse n'ahandi ho kuruhukira haba hafite ibihagaragaza, hakaba hari nk'ibirango by'ibinyobwa bihaba kandi ugasanga ni ahantu haba hazitiye ku buryo buri wese adapfa kugeramo uko yiboneye.

Ibikorwa remezo ni kimwe mu bikorwa biri gushyirwamo imbaraga na leta muri iki gihe cyane cyane bikaba byatugirira umugisha iterambere ry'igihugu kandi buri wese yabigizemo uruhare mu kubibungabunga usanga birubutanga umusaruro ku buryo abanyarwanda benshi baba bikeneye.

Mu mahoteli haba hari ibyumba byo kurarwamo ariko hakaba n'ibindi by'uruganiriro, usanga ari ahantu hameze neza cyane ku buryo aba ari ahantu hari intebe zimeze neza, ameza hakozwe ukuntu ugasanga abantu bakunze kuhajya kugira ngo baharuhukire cyangwa se babe banahaganirira.

Amahoteli yo mu ntara y'amajyaruguru ni amahoteli meza cyane abantu bajyagamo bakaba bararamo cyangwa bakariramo ndetse no gukoreramo ibindi birori nko gushyingirirwamo cyangwa n'inama zishobora kuberamo.

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa abantu bakoraga kitufasha abaturage muri rusange. Bacuruzamo ibikoresho bitandukanye: harimo ibiribwa, ibikoresho byo mu rugo nk'amabasi, nk'amasabune ndetse n'ibyo kurya nk'amafu, imyunyu n'amasukari ndetse n'ibindi.

Ahantu bacururiza ibyo kurya haba ari ahantu hameze neza cane, kugira ngo ibyo biribwa bitaba byakwangirika. Babibika akenshi ahantu haba hari ama etajeri aba abirinda gukoranaho kugira ngo ibya hejuru bikaba byakwingiza ibyo hasi.

Imbuto ni kimwe mu biku mu bicuruzwa bicuruzwa cane mu masoko y'ibiribwa, yee twavuga nka za voka, imyembe, amaronji, imineke, ndetse ugasanga ni ibihingwa bikunze kugurwa n'abantu benshi, kugira ngo bibe byagerekwa ku funguro cangwa babirye byonyine uko byakabaye.

Muri gare ya musanze habamo n'ahantu hakorerwa ubucuruzi ku buryo umuntu icyo akeneye ahita ajya kugishyikira bitabaye ngombwa ko ajya murindi soko nka Goyiko cyangwa se n'isoko ry'ibiribwa, aha hantu haradufasha rero cyane kuko bituma tugira ibyo kurya hafi bitabaye ngombwa ko tujya kure kandi ugasanga ni ibintu binogeye buri wese.

Ubucuruzi bw'inkoko n' ubucuruzi bukorwamo amasoko amwe n'amwe, kugira ngo babone amafaranga ,ashobora kubatunga no gukemura ibibazo byinshi byo mu rugo, bitabaye ngombwa ko bagurisha ibintu binini cyane

Imbuto nyinshi n'imboga usanga bacuruza mu masoko barayitandika bakoze imitandiko y'udutsinda duto duto ku buryo zagura nk'ijana, magana abiri cangwa se nagana nandi, usanga baba bazitanditse nkoko udufuka bazizanye mu dupaniye mu mabasi ugasanga ziri gucuruzwa n'abantu baba biganjemo igitsina gore.

Iri soko ry'ibiribwa ririmo: amatunda ,inanasi, imyembe, amaronji n'amavuta ndetse n'ibirungo byo kuvanga mu biryo kugira ngo ibiryo birusheho kuryoha.ni mu karere ka Musanze hari isoko ry'ibiribwa rimeze neza.

Umwuga w'ubudozi ni umwuga mwiza cane kuko winjiza amafaranga menshi mu gihe gito, cane cane ugasanga utunze urugo n'ubwo abakundaga kuwiga cane ari abantu b'igitsina gore, ariko usanga ugira uruhare mu kugira neza sosiyete nyarwanda.

Ubucuruzi bwo mu masoko ni ubucuruzi bukorwa n'abantu benshi, harimo gutandika ibyo bazanye ndetse bagacuruza imboga n'imbuto abantu bakenera umunsi ku munsi bitabaye ngombwa ko baba barazihinze ahubwo bakazigura ku mafaranga make cyane ariko bakarya indyo yuzuye.

Imyumbati ni kimwe mu bihingwa bihingwa cane mu bice bishuha kandi bikagira uruhare mu gutunga urugo, kuko ababirya bagira imbaraga nyinshi, noneho bakabijana mu masoko bakabitandika bikagurwa n'abantu. Bikaba byabonekamo n'amafaranga yo gukora ibindi.

Ubucuruzi bw'imyenda buzwi nk'ibisekeni，bukorerwa hasi， abantu babitondetse bakagenda bacagura ibyo bakeneye， bibakwiriye kandi ugasanga wenda bigura makeya， ugereranyije n'ibindi biba bihanitse mu maduka， nko mu isoko rya Kinigi，usanga ari ahantu hagari，kandi hasobanutse， mu kuhacururiza iyi myenda.

Bamwe bari kugenda, abandi bari kugaruka bambaye udupfukamunwa, hari n'abegamiye bategereje kugura telefone ni abasherisheri: Bamwe batangira abantu baje kugurisha amatelefone ngo bagire ayo bungukamo. Ariko hari n'abari kugura amatelefone mashasha. Ubwo rero benshi bari bategereje ico gikorwa.

Ibijumba kimwe mu ibihingwa bihingwa cyane mu Ntara y'Amajyaruguru kandi bigatanga umusaruro, bigatunga n'urugo mu buryo burambye, kubera ko ibijumba ari ibiribwa bitera imbaraga, uwabiriye abakomeye ugereranyije n'uwariye ibindi biribwa bisanzwe.

Isoko ry'ibiribwa ni isoko riba ririmo ibintu bitandukanye abantu bacuruzamo, abantu babijyanamo kugira ngo babiranguza bimwe, noneho abamwo bajye babicuruza kuri detayi, haba harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirayi, ndetse n'abantu baje kugura ubwabo, ni isoko riba risakaye rimeze neza cyane.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, ni bimwe mu bikoresho bicuruzwa cyane muri iki gihe, kubera ko usanga abantu benshi babikeneye kugira ngo babashe kwihutisha iterambere baba bakeneye, abantu rero basabwa gukoresha ibi bikoresho mu buryo bwiza, butanyuranyije n'amategeko cyangwa butanabangamiye abandi baturage basanzwe.

Ubucuruzi bw'imiceri n'amafu ndetse n'amavuta n'isukari, ni ubucuruzi bwiza cyane, kuko bugirira akamaro abaturage mu kubona ibiribwa bugufi yabo, ndetse usanga bicuruzwa kenshi mu masoko y'ibiribwa, cyangwa se mu mabutike yo ku mihanda.

Amasoko y'ibiribwa ni amasoko meza cane kuko agira uruhare mu kuba abantu babona imbuto n'imboga hafi y'aho n'ibindi biribwa biba birimo ndetse n'ibindi bikoresho biba bikoreshwa nk'ibikoni nk'amasafuriya, imyuko ndetse n'amavuta yo kubiteka n'amasukari.

Muri iri soko ry'ibiribwa abantu benshi bazanye ibyo gucuruza ni mu gitondo kare . Abantu ntabwo barabitandika ariko biteretse mu mifuka ku buryo abakiriya nibaza barasanga bamaze kubitandika. Harimo n'indobo nshyashya ,ndetse n'ibindi bikoresho bitegereje kugurishwa.

Umubucuruzi bw'amaterefoni n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga， nk'amasaha， n'ibindi，usanga ari ubucuruzi bugezweho muri iki gihe，kubera ko ahanini ibintu byinshi biri kuganisha ku ikoranabuhanga， muri iki kinyejana turimo. Ubwo rero abantu benshi barashishikarizwa gukora uyu murimo，kuko ari nawo uzadufasha ku iterambere twifuza muri iki gihugu.